Ubucuruzi ni ingenzi，ndetse ni kimwe mu bikorwa biteza imbere abaturage ndetse n'umuntu ubikora. Na none ubucuruzi bukorerwa mu bice bigiye bitandukanye by'gihugu， ndetse bikagira umuro ku bikora nk'uko naje kubivuga，ndetse no ku babikorerwa. Turafata urugero nko mu karere ka Musanze gakunze kugenda n'abakerarugendo， ku bantu bacuruza bagira inyungu nyinshi，mu bucuruzi cyangwa se muri bisinesi bakora y'ubucuruzi.

Utubyiniro cyangwa se amabara n'amahoteli, ni ahantu heza haba hasukuye, hagira amasuku. Aho wasanga icyo kunywa wifuza ndetse na serivisi nziza, ndetse hakeye, ukaba wakwifuza kuhaguma bitewe n'uko haba hameze.

Amwe mu mahoteri cyangwa se amabare akomeye, usanga afite ubwoko butandukanye bw'inzoga, aho umukiriya ubagana ahasanga inzoga yifuza, cyangwa se icyo kunywa yifuza agataha yishimye.

Amwe mu mazu yakira abantu ,urugero :nk'amahoteli amagare, n'amaresitora usanga ari ahantu hakeye cyane hafite intebe nziza, ibyo kurya byiza cyangwa se ibyo kunywa byiza, iyo umuntu wese uhagana abahishimiye.

Muma hoteli hategurwa ibiryo bitandukanye ndetse no mu rugo bitandukanye byizakorwa n'abantu babyigiye cyangwa se bisobanukiwe bari ibiryo biryoshye ndetse ko birya biba bite ipfa biba bikururanabo birya bikabakora cyane.

Ubucuruzi ni kimwe mu bikorwa bizamura abantu, hiryano hino mu bihugu mu gihugu bagenda bubaka inzu zigezweho z'ubucuruzi zikeye zijyanye n'iterambere, bitewe n'umuvuduko iterambere rigezeho hirya no hino.

Amafarumasi ndetse n'ibindi bigo bitanga ubufasha ku baturage bigenda bibegerezwa, aho umuturage urwaye cyangwa afite ikibazo afite ikibazo cy'uburwayi yegera farumasi, cyangwa se akajya ku bigo nderabuzima bimwegereye ,akabasha kubona imiti yo kumufasha.

Ubucuruzi ndetse n'imijyi byagiye bitera imbere, cyane cyane mu mijyi itandukanye. Ndetse no turere dutandukanye hari yo ibikorwa byiza by'ubucuruzi bigenda bigaragara bibereye amaso kubabi.....

Mu mashopu atandukanye cyangwa se amaduka hirya no hino mu gihugu usanga bacuruza ibikoresho byose byo mu rugo amasafiriya, amasahane ndetse nahusanga bacuruza amagaze, matela ndetse n'ibindi byinshi bikoreshwa mu rugo.

Bimwe na bimwe mu bigo bihuza abantu benshi mu masoko, mu mashuri, mu bigo by'imari ndetse no ku nsengero, mu rwego rwo kurwanya isuku hagiye hubakwa tuwalete nzima zigezweho, zigira isuku.

Imyubakire iragenda itera imbere hirya no hino mu gihugu, aho usanga ubucuruzi bugenda bukorerwa mu mazu ageretse, bigatwara umwanya muto ndetse bigakorerwa ahantu hatoya, ariko hakorerwamo ibintu byinshi kandi bitandukanye.

Mu muhanda dusangamo ibinyabiziga bitandukanye nka moto, amagare aho bimwe bikoresha ibinyabiziga bibiri, aho moto itwara umugenzi umwe ndetse n'igare bimuvanye mu gace, bimujyana ahandi, mu kwihutisha ingendo ndetse n'ibindi.

Ibice bitandukanye usanga mo ibikorwa remezo byiza; amazu meza, amashanyarazi, amatara ku mihanda ahu bona ari intaho y'amaso akeye neza n'iterambere ryiza.

Mu gihugu hirya no hino haratangirwa amaserivise atandukanye, ndetse ajyanye n'amasuku. Aha twavuga nk'amasaro agezweho, aho ugenda bakakogosha uburyo wifuza cyangwa se bitewe n'inyogosho ushaka.

Imyubakire ndetse n'ubucuruzi ni ibintu bitera imbere byihuse ndetse bikagaragarira amaso n'ababibona . Hirya no hino mu gihugu, ubucuruzi n'imyubakire y'amazu ya etaje byagiye bizamuka ndetse bitera imbere n'iterambere ry'igihugu rihagaze neza cyane.

Ibikorwa by'iterambere bigenda bitera imbere uko imyaka igenda ihita indi igataha awusanga amakaburimbo agenda aboneka, imodoka mu muhanda zitwara abagenzi, inzu z'ubucuruzi, ibikorwa byinshi bitera imbere ngese biteza imbere umuturage bigenda bigaragara mu gihugu aho imodoka, ubucuruzi, amashanyarazi ndetse n'ibindi.

Hoteli ni ahantu hakirirwa abakiriye cyangwa se abantu batandukanye, haba abavuye hanze y'igihugu cyangwa se abasanzwe mu gihugu. Muri hoteli tuhasanga serivisi zigiye zitandukanye, ndetse hoteli n'ubundi ni ahantu iba igaragara neza. Ni ahantu hagomba kuba hafite isuku cyangwa se hahorana isuku.

Ubucuruzi ni igikorwa cy'iterambere, aho usanga hirya no hino hari inzu zicuruza ibicuruzwa by'ubukerarugendo bikenerwa n'abantu bose, ama serivisi ajyanye n'isuku ndetse n'ibindi byose.

Ubucuruzi ni kimwe mu bikorwa biteza imbere abaturage， haba abikorera ndetse n'ababikorerwa， cyangwa se n'umukiriya，aha hari ibikoresho byinshi twakwifashisha mu rugo cyangwa se bita amajage，amabase，abe amanini，amatoya，ibikombe， indobo ndetse n'ibindi， n'amasafuriya， ni ubucuruzi ndetse buteza imbere ubukora ndetse n'ubikorerwa.

Hirya no hino hagenda atangwa sirivise zitandukanye, aho na serivisi zo kurya zagiye zegerezwa abantu, aho ushobora kuba uri kwigendera mu nzira yawe mu modoka yawe, wakumva ugize inzara ukajya kuma kantine, cyangwa se ku maresitora akwegereye, ukaba warya inzara ikagabanyuka.

Mu buryo bwo kugenda turwanya ihumana ry'ibidukikije ndetse twangiza ibikije hamwe n'ikirere, bamwe bagenda bakoresha uburyo bwo guteka ukoresheje gaze aho zidatanga imyotsi ucyana ntihagire umenya ko ucyanye. Izo gaze ziboneka mu bice bitandukanye by' umujyi ubonetsemo amaduka menshi atandukanye.

Mu bice bimwe by'igihugu cyacu， ubucuruzi cyangwa se imyubakire igenda ihinduka， bitewe n'iterambere ry'igihugu，ndetse n’intego z’igihugu cyacu. Mu bantu bakunda gukoresha wenda ndatanga urugero mu karere ka Musanze bakoresha nk'umuhanda uzamuka ujya Kinigi cyangwa se mu bindi bice by'akarere ka Musanze，hari amazu meza ndetse bigaragara ko afite iterambere ryiza， ndetse asobanutse bijyanye n'iterambere.

Hirya no hino mu gihugu uhasanga imishinga itandukanye, aho hamwe usanga hari aho bororera inkoko, aho ukenera inkoko ndetse n'amagi ukajya kubifata mu gihe gito, ukimara gutanga komande.

Hirya no hino hagiye hari amagesite hawuzi, agenda yakira abantu. Aho umuntu wese uhagana cyangwa se umuntu ukeneye serivisi zihatangirwa, aho yemerewe kuhajya akakirwa neza akabona ibyo yifuza.

Mu mabutiki hirya no hino mu gihugu, haba mu mijyi mikuru, mu masoko atandukanye, amato n'amakuru, usangamo amabutiki agira ibintu bitandukanye, ndetse ibicuruzwa abantu bose bifuza bikaba bihaboneka.

Aho ubucuruzi butereye imbere, usanga rimwe na rimwe amwe mu magare twajyaga kugura hanze ya siporo mu bindi bihugu, yagiye yegera ahantu hose mu duce dutandukanye. Ahantu hari amasoko cyangwa se amaduka na ho uhasanga amagare wifuza ya siporo.

Mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no mu turere dutandukanye , serivisi zigenda zitangirwa ahantu hatandukanye, aho usanga mu gace kamwe ushobora kuhagera ukaba wahabona icyo kurya, bityo waba uri ku rugendo inzara igashira.

Ubucuruzi ndetse n'ibikorwa byiza by'iterambere, bigenda bigaragara hirya hi no hino mu gihugu cyacu, haba mu myubakire mu bucuruzi cyangwa mbese mu bintu byose bitandukanye.

Serivisi nyinshi z'itumanaho zigenda zitangwa hirya no hino gihugu, hariho aho bacuruza amanite, simukadi, aho babitsa urugero ndigutanga ni k'umurongo wa Eyateli ukoreshwa n'abakiriya benshi mu gihugu ugereranyije n'izindi miyoboro, babikuza bagura amasimukadi ndetse n'ibindi.

Ubucuruzi bw'imyenda bimwe mu bikoresho bigenda cyangwa se umushinga ugenda, kuko abantu benshi bakunda kwambara ndetse neza, iyo ucuruje ibikoresho byiza byo kwambara bijyanye n'imyenda ubona abakiriya.

Muri iyi minsi cyangwa se muri iki kinyejana cyacu cya makumyabiri na rimwe， ibintu bijyanye n'umuziki bigenda bigira indi ntera， ndetse bikazamura benshi mu bahanzi， hari amakorari akomeye cyane agenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga， aririmba indirimbo ari izo guhimbaza Imana ndetse hari n’izindi，urumva ibintu byo kuririmba bigenda bigira umumaro ku babikora ndetse bikabazamura bikabateza imbere.

Hirya no hino bimwe bidukikije, twavugamo nk 'amabuye bigenda bibyazwa umusaruro hakavamo isima noneho muri ayo masima bikorerwa mu ruganda havamo isima za simerwa, isima za purayime ndetse n'izindi sima zitandukanye.

Amasoko mu makaritsiye cyangwa se n'abantu benshi, usanga hari amahoteri atandukanye yakira umwe muri wamujyi cyangwa severundi buci akajya avugana uwomojyi.

Ibikorwa byakira ba mukerarugendo ni byinshi cyane mu gihugu, ndetse ibyo bita amahoteli biboneka ahenshi mu duce dutandukanye tw'igihugu ibyo byose ni ibigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse n'agace kamwe muri rusange, ndetse mu turere twose tugize u Rwanda ndetse n'utugize Intara y'Amajyaruguru cyangwa se mu zindi ntara bigenda ibyo ibintu bigaragaramo ibyo bikorwa by'iterambere bi nk'amahoteli ndetse n'ibindi.

Ubucuruzi ni kimwe mu bikorwa by'iterambere, abaturage benshi usanga basacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga: amakoteri, telefoni, amasharijeri ndetse n'ibindi bitandukanye.

Shufurere ni igihingwa gihingwa mu Gihugu hose kikaba kimera kimeze nk'aho ari amashyu, ariko mwo imbere aho gitandukaniye n'amashu, hazamo ikintu kimeze nk'umweru ari cyo barya.

Bimwe mu bikoresho bya plastiki bikoreshwa mu rugo, ndetse n'amapanu ubwayo akoreshwa mu rugo, aho ibiduki, ibikombe, amabase byose bikoreshwa mu gutwara amazi, aba menshi cyangwa makeya bitewe n'igikoresho uko kingana.

Amasoko atandukanye aba mu cyaro no mu mujyi ,ni hamwe abantu bajyana ibintu bitandukanye. Nk'ayibijumba, ibishyimbo, impungure ndetse n'ibyo baba bejeje kugira ngo babigurishe babone amafaranga bagure ibyo bakeneye.

Imbuto zitandukanye bimwe mubicuruzwa dusanga mu isoko dusangamo ibi: amaronji, imyembe, ibihaza bita wotameroni aho buri wese ubishatse abibona mu isoko.

Amasoko hirya no hino. ahantu hahurira abantu usanga isoko haragiye hubakwa ibisima cyangwase makariyeri usangamo ibicuruzwa bitandukanye ndetse hakoreramo n'abantu benshi kugira ngo ibicurutwa bitajya binyagirwa.

Mu isoko tugenda dusangamo ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'abantu batandukanye, hari abacuruza imbuto, ibirayi ,butike, abagenda bacuruza imyaka igiye itandukanye.

Mu masoko atandukanye cyangwa se mu mabutike ugenda usangamo ibintu bitandukanye cyane cyane mu masoko makuru aho ugerayo ugasanga mu mabutike harimo ibintu wifuza bijyanye n' ako gace, n'ibikunda kugurwa amavuta, imyunyu, imyenda ndetse n'ibindi.

Hirya no hino mu masoko atandukanye hatangirwamo amaserivisi atandukanye aho usanga batanga amayinite, bacuruzamo imyaka ibirayi ,ibishyimbo, ndetse ibintu byose umuntu akeneye muri iryo soko ugasanga bigenda bihaboneka.

Mu mabutike amwe n'amwe atandukanye dusangamo ibicutuzwa bitandukanye, aho dusangamo ifu yitwa Bino ifu y'imvange y'ibigori, amakanta, amashampo, cyangwa se ahatunganya imisatsi, ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Hirya no hino mu masoko, tuhasanga ibicuruzwa bitandukanye, mu makariyeri aho usangamo imbuto, imboga, ibikoresho byo mu rugo, imyenda, inkweto, ndetse n’ibindi.